Abagabo bahagaze imbere yidirishya, ndetse rifatanye n'umuryango, ni abagabo bane, umwe yambaye itaburiya y'umweru, n'ipantaro isa n'igitaka, n'inkweto z'umukara, naho undi yambaye ikoti ry'umukara, n'ipantaro yikigina, undi yambaye ishati irimo umukara, ipantaro yikigina, undi yambaye ipantaro y'ubururu, ndetse n'ikoti ry'umukara, urabona ko ari abagabo bameze neza kandi bashinguye.

Abanyeshuri biga ishami rya mekanike, ni abanyeshuri usanga bafite umurava ndetse n'umuhati, aho uwize mekanike neza imutunga ukabona ko imufitiye akamaro. Muri rubanda usanga ari gukora imodoka, ndetse agakora n'ibindi bintu bijyanye na mekanike bitandukanye.

Gushushanya ni ubugeni ndetse bikaba n'ubuhanzi kuko bisaba ubwenge buhambaye ndetse n'impano umuntu aba yaravukanye kuko no kubyiga ubu usanga bigora umuntu uwo ari we wese ugerageje kubikora adasanzwe afite iyo mpano.

Ishuri ry'abana b'ibitambambuga rya garidiyene. Ni ishuri rigaragara neza, aho usanga rifite intebe zisa n'ubururu n'utumeza dusa n'ubururu, ndetse n'intebe zisa n'umuhondo n'amameza asa n'umuhondo, n'andi mameza asa n'icyatsi n'intebe zisa n'icyatsi. Hashushanyije ibinyugunyugu ndetse n'imbere yaho hari ikibaho cy'umukara.

Abanu biga guteka ni bamwe mu banu babona ibinu byinshi bitandukanye, nka hano urabona ko bari gufata amata bakayakoramo ibini binu bitandukanye, kandi bigatuma umunu wese uri kubikuna abona kandi uri no kubikora amenya icyo ari cyo, kandi bikanamufasha kumenya uburyo bigenda neza kandi nta kibazo.

Abana biga mu mashuri abanza baba bateye ibyishimo, kuko ubu usanga bakina bishimye hano bamaze gukora umwitozo mwarimu yari yabahaye, buri wese ari kugenda awuhereza mwarimu uko bikwiye paka bose barangiye.

Ishuri ryigisha gushushanya ni kimwe mu bikorwa bigaragaza ko u Rwanda ruri gutera imbere, aho usanga buri mwana wese yiga gushushanya ndetse akanabimenya ku buryo buhagije, aho aba hashushanya umuntu wicaye ndetse uri gukurura n'ikindi kintu ukabona barasa niwe foto kopi.

Puratike ni kimwe mu bikorwa bigaragaza ko abanyeshuri bize neza ndetse bakanakora ibyo bize mu magambo aho usanga umunyeshuri wakoze puratiki neza aba ari ku bushobozi bwo hejuru ndetse iyo ageze mu kazi abikora neza ku buryo bw'ubuhanga.

Gukingira inka bikorwa n'abaveterineri, aho usanga ari igikorwa cyiza, gituma inka zitarwara uburyo ziboneye bwose, kandi bikanarinda indwara za hato na hato, aho bikorwa n'umuveterineri wabihuguriwe, kandi wabyize akabiminuriza.

Umwuga wo gusudira ni kimwe mu bikorwa, bigaragaza ko u Rwanda rumaze gutera imbere, aho umuntu usanga yarize gusudira, bimutunga we n'umuryango we kandi akabona amafaranga, ahagije urabona ko ari abagabo babiri, bari gusudira ameza ndetse bambaye, n'imyenda yabugenewe, kugira ngo itabatarukira mu ma.

Gukorera hamwe mu gihe cyo kwiga ni kimwe mu bintu bizamura uburezi, ndetse bikazamura n'ubwenge bw'abanyeshuri, kuko usanga buri munyeshuri wese yungukiramo byinshi, bitandukanye harimo gusobanukirwa ibintu bimwe na bimwe atari kumva.